Gahunda nziza yashyizweho yo gukangurira abana ndetse n'abaturage muri rusange gukoresha amazi meza asukuye, byifashishwa mu kurinda indwara zitandukanye zandurira mu mwanda bikagabanya n'imfu zitateguwe.

Amazi ni ingirakamaro, afasha mu kwisukura mu buryo bwo gukaraba ndetse no mu bundi buryo butandukanye kuyanywa, kuyatekesha no kuyakoresha mu bindi bijyanye n'isuku muri rusange.

Uburyo bwiza bwo kuganiriza abanyeshuri biciye ku barezi babo bakabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima, uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye, bifasha mu kugabanya imfu zitateguwe ndetse no guhangana n'ibyorezo.

Uburyo bwiza bukoreshwa n'abanyeshuri bakabona amazi meza, akabarinda indwara zitandukanye zandurira mu mwanda kandi bigatuma bagira ubuzima buzira umuze, bagakura neza muri rusange.

Uburyo bwashyizweho mu kwita ku buzima bw'abana bahabwa n'ibindi bintu bitandukanye bibafasha mu gukura neza, mu kurindwa indwara zitandukanye, bagakura neza, bagatekereza neza kandi bakiga neza.

Mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bw'abantu ndetse n'imibereho yabo, hafashishijwe amazi meza, agakoreshwa mu buryo butandukanye, kuyanywa, kuyafurisha, kuyatekesha n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubuzima bw'abantu bwa buri munsi, banirinda indwara ziterwa n'amazi mabi, muri ubu buryo bwo guhabwa amazi meza.

Umuryango mpuzamahanga wita ukanarengera abana, ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kubahira amashuri, kubamenyera ubuzima, ukanabafasha no mu bundi buzima butandukanye.

Gahunda nziza, aho ku bigo begerejwe amazi meza, abafasha mu kwirinda indwara zitandukanye, zandurira mu mwanda, bikagabanya imfu zitari ngombwa ndetse bifasha no guhangana n'ibyorezo bitandukanye.

Uburyo bwiza bwashyizweho hashyirwaho abajyanama b'ubuzima, mu buryo bwo kwigisha ku bijyanye n'imibereho y'abaturage muri rusange, bakigishwa kandi bakitabwaho n'abajyanama b'ubuzima mu kubungabunga no kurengera ubuzima bwabo.

Kkigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abaturage, ni kiza gifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza biciye mu guhabwa inama zitandukanye ndetse bakaganizwa ku bijyanye n'ubuzima bwiza n'imibereho y'ubuzima bwiza bw'abaturage muri rusange.

Urugero rwiza aho ibijyanye n'uburinganire mu gihugu cyangwa se muri leta muri rusange, biva ku kigero cyo hasi bikagera ku kigero cyo hejuru ni uburyo bwiza, bwatumye habaho gutera imbere kw'igihugu ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage muri rusange.

Gahunda nziza y'ubuzima, aho hashyizweho abajyanama b'ubuzima bafasha mu bijyanye n'ubuzima, bakagira inama abaturage uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye n'ingamba zafatwa mu kuzirwanya.

Umuryango Mpuzamahanga wita ukanagenzura ku bijyanye n'ibiryo, ufasha abaturage kumenya neza indyo yuzuye n'ibiryo bitagira ingaruka mbi ku buzima bwabo.

Ni byiza kurengera ubuzima ndetse n'uburenganzira bw'abana biciye mu bantu batandukanye, ubona umwana arimo arahohoterwa ukamufasha ndetse akaganiriza n'umubyeyi we byananirana agashyikirizwa ubuyobozi kugira ngo hitabweho uburenganzira bw'uwo mwana.

Gahunda nziza aho abaturage begerejwe amazi meza, abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'ingamba nziza yo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, no kuba umuntu yakoresheje amazi mabi.

Gahunda nziza aho abaganga bahurira hamwe bakaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage, ingamba zafatwa mu kwirinda indwara zitandukanye zibasira abaturage, bifasha abaturage gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Uburyo bwiza bwo kwita no kubungabunga ku buzima bw'umwana, biciye mu guhabwa amata, amagi n'ibindi bitandukanye kugira ngo ubuzima bwabo busigasirwe kandi bakure neza banatekereza neza.

Gushaka amafaranga binyura mu buryo butandukanye, akazi ni akazi akari ko kose ni akazi, icyo wakora cyose kiguha amafaranga, ni uburyo bwiza butuma abantu biteza imbere, cyane ko n'abamama basigaye bari mu bantu bafite imbaraga zo gukora akazi akari ko kose.

Amazi meza afasha abantu mu guteka, mu kuyanywa, mu kuyafurisha ndetse afasha ibijyanye n'isuku muri rusange kandi ni meza ku buzima bw'abaturage muri rusange mu kuyanywa, mu kuyatekesha ndetse no mu kuyisukuza.

Gahunda nziza, aho ikigo cy'ubuzima gishinzwe ubuzima mu Rwanda, gihuriza hamwe abajyanama b' ubuzima, mu gufatira hamwe ingamba zitandukanye z'uburyo bwo kurwanya indwara zitandukanye no gusigasira no kurinda ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Gahunda nziza yo guhuriza abaturage hamwe ku kigo nderabuzima, bakigishwa ku bijyanye n'ubuzima uburyo bakirinda indwara zitandukanye n'ingamba zifatwa mu kwirinda izo ndwara, hagamijwe gusigasira no kurengera ubuzima bwa muntu.

Umuryango mwiza wita ku burere bw'abana ndetse ukanateza imbere ibijyanye n'uburezi bw'abana, ukanabafasha no mu buzima busanzwe bakabaho neza kandi bakabona ibyo bakeneye ndetse n'uburenganzira bwabo bukuhirizwa.

Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abaturage n'abatuye isi muri rusange, ufasha mu bijyanye no kwigisha ndetse no gukangurira abantu uburyo ubuzima bwabo bwasigasirwa, hirindwa indwara zitandukanye, izandura n'izitandura ndetse bikanateza imbere serivisi z'ubuvuzi mu bihugu byose byo ku isi hose.

Gahunda nziza, aho abaturage bahurizwa hamwe, bakiga ndetse bakanaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage, hagafatwa n'ingamba zitandukanye zo kwirinda indwara zitandukanye, izandura n'izitandura.

Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, rifasha mu kurengera uburenganzira bw'umwana, uburezi, kurwanya imirire mibi ndetse no kwita ku buzima bwabo muri rusange.

Abayobozi bahurira hamwe mu nama bakiga ku bijyanye n'imiyoborere myiza, uko bayobora abaturage, icyateza imbere abaturage, bakanafatira hamwe imyanzuro ndetse bakanahiga ibyo bagomba kuzahigura mu buryo bwo guteza imbere Igihugu, cyangwa se isi muri rusange.

Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, ribafasha mu kurengera uburenganzira bwabo mu burezi, mu buzima bwabo bwa buri munsi, no kurwanya imirire mibi.

Amazi meza ni imwe muri gahunda y'ubuzima yegerejwe abaturage, ifasha mu kurwanya indwara zitandukanye, kugabanya impfu zitari ngombwa ndetse no guhangana n'ibyorezo n'izindi ndwara zose ziterwa n'umwanda.

Amazi meza asukuye afasha mu kugabanya indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse ni n'ingamba nziza yo kurengera ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Gahunda nziza yo kugeza ku baturage amazi asukuye, abafasha mu kwirinda indwara zitandukanye zandura bitewe n'umwanda umuntu uba winjiye mu mubiri we, kandi afasha no mu bindi bijyanye n'isuku.

Amazi mabi agira ingaruka ku buzima bw'abaturage, bituma habaho kwiyongera kw'indwara ziterwa n'umwanda, ndetse n'impfu zitateguwe zikiyongera mu baturage.

Uburyo abaturage babona serivisi z'ubuvuzi buboneye, kandi ku gihe hatitawe ku mibereho yabo cyangwa ubushobozi bwo kwishyura, bifasha mu kurinda indwara, kugabanya imfu zitari ngombwa no guhangana n'ibyorezo.

Uburyo bwiza bwo gukomeza guteza imbere umuco w'isuku, aho amazi meza yegerejwe abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abanyeshuri, abaturage ndetse no mu gihugu muri rusange.

Gahunda nziza yo guhuriza hamwe abayobozi bakaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage ni ingirakamaro cyane, bifasha mu gufata ingamba zo kurwanya indwara zitandukanye zaba izandura n'izitandura.

Gahunda nziza ihuza abantu b'ingeri zitandukanye mu buryo bwo kuganira ku buzima bw'umubyeyi igihe atwite, bifasha umubyeyi utwite ndetse n'umwana atwite kugira ubuzima bwiza, kandi akabyara mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Gusigasira amazi biri mu buryo butandukanye, aho hashyirwaho ushinzwe kuvomesha abantu ndetse bakavomera ku masaaha runaka mu buryo bwo kubungabunga amazi, ndetse bigafasha ko umuturage uwo ari we wese amazi ayabonera ku gihe kandi akabona amazi meza adufasha mu buzima busanzwe kandi asukuye, tukabaho neza.

Gutanga ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima, bifasha abaturage kumenya neza uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye, ibyo bakwiriye gukora mu buryo bwo kurwanya indwara ndetse no gusigasira ubuzima bwabo muri rusange.

Uburyo bwiza bwo gutanga indyo yuzuye ku bana, bibarinda kurwaragurika indwara zitandukanye, harimo ibiro bikeya ndetse bikanatuma bagira ubuzima bwiza, bagakura neza kandi bagatekereza neza.

Uburyo bwiza bwo guhagarika cyangwa se kurwanya iyi ndwara biciye mu gutanga ibiganiro bitandukanye hagafatwa ingamba z'uburyo icyo cyorezo cyakwirindwa ndetse kikanakumirwa n'abaturage ndetse n'isi muri rusange.

Iyi ni imiryango itandukanye mpuzamahanga yita ku burenganzira n’ubuzima bw’abanyagihugu ndetse n’abatuye isi muri rusange, mu gusigasira no kuburengera mu buryo butandukanye, hitabwaho ku bijyanye n’isuku muri rusange.

Iyi ni gahunda nziza y'ibijyanye n'ubuzima, aho ku bigo by'amashuri begerejwe amazi meza, akaba abafasha mu kwirinda indwara zandurira mu mwanda, kugabanya impfu zitari ngombwa no kurwanya ndetse no guhangana n'ibyorezo.

Abana bahabwa imiti itandukanye, kubera indwara zitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, bigatuma bakura neza, bakagira ubuzima bwiza, kandi bakagira n'imitekerereze myiza muri rusange.

Uburyo bwiza aho abaturage bahurizwa hamwe bakaganira ku bijyanye n'ubuzima, uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye, hakanafatwa ingamba zo kwirinda ndetse no kurwanya ibyorezo bitandukanye.

Uburyo bwiza abaturage bahurizwa hamwe bakigishwa ku bijyanye n'ubuzima, uburyo bafata neza ubuzima bwabo bakabubungabunga, birinda indwara zitandukanye ndetse bakanagira hamwe ingamba zafatwa kugira ngo hasigasirwe ubuzima.

Iyi ni gahunda nziza yo kuganiriza abana, abangavu ndetse n'ingimbi ku kibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hakaganirwa ku bibazo bikunda kwataka izo ngeri n'ingamba z'uburyo bakwirinda ibyo bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ahora iteka afite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi, mu myambarire, mu migendere, mu mikorere ndetse no mu buzima bwe bwa buri munsi, nta kintu kizima aba ari gutekereza.

Uburyo bwiza bwo guhuriza hamwe ingeri zitandukanye, urubyiruko, abana ndetse n'abakuze, mu buryo bwo kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mutwe, ibibazo byibasira ubuzima bwo mu mutwe n'ingamba zafatwa mu kurengera ubwo buzima.

Umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, aba atandukanye n'abandi, mu mitekerereze, mu migendere, mu myambarire ndetse no mu buzima bwe busanzwe.

Kumenya neza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ni byiza cyane bifasha abaturage kumenya neza ibibazo baba bafite mu bijyanye n'imitekerereze, ikindi kandi bakagirwa inama mu buryo bakwitwara kugira ngo imitekerereze yabo ikomeze kumera neza.

Uburyo bwiza bwo kwigishwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bifasha abaturage kumva neza ibibazo bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bakanabyirinda, bigatuma bagira ubuzima buzira umuze muri rusange.

Umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe aba atandukanye n'abandi, imitekerereze ye, mu mikorere ye, mu myambarire ye, no mu buzima busanzwe, ni byiza kumuganiriza ukamenya ikibazo cyabimuteye, byakomera mukifashisha ikigo nderabuzima.

Gahunda nziza yashizweho y'uburyo bwo kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, abantu bakamenya igitera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, uburyo bwo kubyirinda n'ingamba zafatwa mu kubirwanya.

Ubu ni uburyo gakondo bwifashishwa mu guteka, ariko bwangiriza byinshi amaso y'umuntu bitewe n'imyotsi myinshi kandi bikangiza n'ikirere muri rusange binyuze mu myotsi iba yagiye ijya mu kirere.

Umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, agira imitekerereze y'ubuzima itandukanye n'iy'abandi, mu myambarire, mu migendere, mu mitekerereze ndetse n'ubuzima bwe bwa buri munsi.

Ibibazo bitandukanye biterwa no kuba ubwonko bw'umuntu butari gutekereza neza, ibi biterwa n'ibintu bitandukanye, harimo kuba ufite amakimbirane mu muryango, kuba hari ibyo ubura, kuba hari uwaguhungabanyije, kuba ufite ibikomere bitandukanye bituma ugira ubuzima bubi ndetse bikangiza n'abo ubyaye.

Uburyo bwiza bwo guhuriza hamwe abaturage, kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ibibazo byibasira ubwo buzima n'ingamba zafatwa mu kwirinda ibyo bibazo bitandukanye, hagamijwe kurengera ubuzima bwabo muri rusange.

Iyi ni company nziza iyobowe na Madamu Perezida Paul Kagame, igamije kurengera no gusigasira ubuzima bwo mu mutwe bw'abatuye igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, hagafatwa n'ingamba zitandukanye zo kubungabunga ubuzima bw'abaturage.

Ibibazo bitandukanye bikunda gutera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe harimo ubukene bukabije, kutagira aho kuba, ubushomeri ndetse no kubura ibyo kurya muri rusange.

Ubu ni uburyo bwiza bwashyizweho bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku bwoko butandukanye, ni inshingano nziza zituma habaho kugabanya umubare w'abahohoterwa no gufatira hamwe ingamba zo kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose.

Uburyo bwiza bwashyizweho bujyanye no kwigisha abaturage ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bibafasha kwirinda ndetse no gusigasira ubuzima bwabo, baburinda ibyago byaterwa no kuba bari mu mitekerereze mibi, amakimbirane, bikangiriza ubwonko bwabo muri rusange.

Gahunda nziza yashizweho mu buryo bwo gukomeza kwibuka abacu bapfuye bazize Jenoside, mu gihumbi kimwe magana akenda mirongo ikenda na kane, bifasha mu isanamitima ndetse bigatuma abayirokotse bakomeza kwiyumvamo ikizere cy'ubuzima.

Uburyo bwiza bwo kuganiza ku bijyanye n'ubuzima bwo mutwe, ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe uramusanga, ukamuganiriza, ukamutwara gahoro, ukamenya neza ikibimutera, hakafatwa n'inama yakwifashisha, byaba ari ibintu birenze, ubona ko bikaze mukagana ikigo nderabuzima bakamufasha.

Ibiganiro byiza bitangwa hagamije kwigisha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bifasha abaturage kumenya neza aho ibibazo biri ndetse bigashakirwa umuti ndetse bakagirwa n'inama.

Gahunda nziza ihabwa abantu bafite ibibazo by'amenyo ni ingirakamaro, cyane ifasha abaturage cyangwa se abarwayi mu kubona imiti ndetse n'inama zitandukanye zo kurwanya indwara zibasira amenyo.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo ni ingirakamaro, bituma abarwayi b'amenyo babona serivisi nziza, bagahabwa imiti ndetse bagahabwa n'inama z'ibijyanye no gusigasira ubuzima bwabo.

Indwara zitandukanye zifata amenyo ariko uburyo bwiza bwo kuvura amenyo, harimo gukoresha imiti y'amenyo itandukanye ndetse tukagira isuku amenyo tuyoza neza ndetse n'imiti yabugenewe.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwita ku buzima bw'amenyo, bufasha abarwayi b'amenyo kubona serivisi nziza, bagahabwa imiti n'ubundi bufasha bugendanye n'ibibazo bitandukanye bafite bijyanye n'amenyo.

Imiti ifasha mu kurwanya indwara zitandukanye, hari ubwo ushobora kwiyifata urwaye cyangwa se mbere utararwara kugira ngo wirinde indwara runaka, cyangwa se ukayifata kugira ngo uvurwe indwara runaka urwaye, imiti ni uburyo bwiza budufasha nk'abaturage bugafasha nk'abana, mu buryo bwo kurwanya indwara ndetse no kuzivurwa.

Umuti w'amenyo ufasha kuvura amenyo, ikindi ukayarinda uburyo bwo kwangirika, bifasha abaturage, abana, ndetse n'ababyeyi, ndetse abantu bose muri rusange kugira amenyo meza akora icyo agomba gukora kandi agaragara neza azira uburwayi.

Ibi ni ibikoresho byiza byifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, aho abarwayi b'amenyo bahabwa serivisi nziza ndetse bakagirwa n'inama yo kubungabunga amenyo yabo.

Serivisi nziza y'ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ifasha abaturage mu buryo bwo kumenya ubuzima bw'amenyo yabo ndetse bagahabwa inama ndetse n'imiti y'ubundi bufasha bugendanye n'ibijyanye n'amenyo.

Uburyo bwiza bwo kwita no kurengera amenyo biciye mu gukoresha imiti yabugenewe, bigira akamaro ku menyo ndetse n'abaturage bakagira ubuzima buzira umuze muri rusange.

Ubu ni uburyo bwiza bwo kurinda amenyo yawe ukoresheje imiti yabugenewe, kandi bifasha kugira amenyo meza azira uburwayi ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange.

Uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga mu kwita no kuvura amenyo, ni byiza cyane bifasha abarwayi barwaye amenyo kubona serivisi nziza bagahabwa n'imiti ikwiye indwara barwaye, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Gahunda nziza y'ibijyanye n'ubuzima bw'amenyo, ifasha abaturage kwita ku buzima bwabo bw'ibijyanye nayo bagahabwa imiti ikwiye ndetse n'inama nziza zo kwirinda indwara zandura.

Inyubako nziza ifasha abarwayi b'amenyo mu guhabwa serivisi nziza kandi zikwiye, bagahabwa imiti itandukanye y'indwara y'amenyo ndetse bakanahabonera izindi serivisi zo gukurwa amenyo.

Serivisi nziza itangwa ku barwayi barwaye amenyo, ibafasha mu gukomeza kugira ubuzima bwiza no gusigasira ndetse no kwirinda indwara zitandukanye zifata amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bwiza bufasha abaturage kubona aho kwivuriza amenyo, kandi bagahabwa serivisi nziza bagahabwa imiti cyangwa se bakabafasha mu bundi buryo, bigatuma bagira ubuzima bwiza ndetse n'iterambere ry'imibereho yabo muri rusange.

Uburyo bwiza bwo gutanga serivisi ku bantu bafite ikibazo cy'amenyo, bafite uburwayi bw'amenyo, ni byiza cyane bifasha kugira ubuzima bwiza ku byerekeranye n'amenyo ndetse hagatangwa n'inama z'uburyo bwo kurinda, ndetse no kuyafata neza.

Gahunda nziza yo gutoza abana kwita no kurengera ku buzima bw'amenyo yabo, bifashishije imiti yababugenewe, bigira akamaro mu kurengera ubuzima bwabo muri rusange.

Ubu ni uburyo bwiza bwo kubungabunga no gusigasira amenyo, binyuze mu gukoresha imiti yababugenewe kandi igakoreshwa neza mu gusigasira no kwirinda indwara zifata amenyo igihe yafashwe nabi.

Ubu ni ubundi buryo bwiza bwifashishwa, mu bijyanye no kuvura amenyo, bituma abantu babona serivisi nziza z'ibijyanye n'indwara zifata amenyo, kandi bagahabwa n'inama z'uburyo bwo kuzirinda.

Ubuvuzi bw'amenyo bufasha abaturage kubona serivise, bakabona aho kwivuriza aho kugirirwa inama ku buzima bujyanye n'amenyo, bakanahabwa inama z'uko bakitwara, bigateza imbere ndetse bigasigasira ubuzima bwabo muri rusange.

Uburyo bwiza bwo gufasha abafite ibibazo by'amenyo, ni ingirakamaro bituma abafite ibyo bibazo babona uburyo bwiza nabo bwo kwitabwaho kandi bakagira ubuzima bwiza muri rusange.

Uburyo bwiza mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo hifashishijwe ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bituma abaturage babona serivisi nziza ku bigendanye n'indwara y'amenyo bikabafasha kubungabunga ubuzima bwabo bakagira ubuzima bwitaweho muri rusange.

Ubu ni uburyo bwiza bwo kwita no kurengera ubuzima bw'amenyo, bifasha kugabanya indwara zitandukanye zikunda gufata amenyo ndetse binongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Uburyo bwiza bwo kwita no gusigasira ubuzima bw'amenyo, hifashishijwe imiti yabigenewe, ifasha mu kurinda kwangirika kw'amenyo ndetse abantu bakagira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'abageze mu zabukuru, bufasha kwita ku buzima bwabo no kubafasha mu gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi, badashingiye ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Indyo yuzuye ifasha abageze mu zabukuru gukomeza kugira ubuzima bwiza, no kurwanya indwara zitandukanye zituruka ku mirire mibi kandi binagabanya n'imfu nyinshi zitateguwe.

Ubu ni uburyo bwiza bwo kwita no kurengera ubuzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi, hatitaweho gushingira ku bandi cyane, ndetse no kurengera ubuzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bwiza bwo kwita ku buzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha gukomeza kugira imibereho myiza no gukora imirimo yabo ya buri munsi hatitaweho gushingira ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Gahunda nziza yo kwita no kurengera ubuzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi hatitawe ku gushingira ku bandi cyane, no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bwiza bwo kwita no kubungabunga ubuzima bw'abageze mu za bukuru, bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bagakora n'imirimo yabo ya buri munsi, hatitawe ku gushingira ku bandi no gukontorora ubuzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga mu gufata amafoto hifashishijwe telefone, akoherezwa ahantu hatandukanye, akanakoreshwa mu buryo butandukanye, bigafasha iterambere ry'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Gahunda nziza yo kwita no kurengera ubuzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha no mu gukomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, hatitaweho ku gushingira ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'amarangamutima yabo.

Siporo ni ingirakamaro, ifasha n'abageze mu zabukuru mu gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi hatitawe ku gushingira ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Ni byiza ko umuntu ukuze gufata indyo yuzuye, bimurinda kurwaragurika, bigatuma agira ibiro byiza bigendanye n'imyaka afite kandi agatandukana n'indwara ziterwa no kuba umuntu atabonye indyo yuzuye.

Uburyo bwiza bwo kwita ku bakuze bifasha mu gusigasira ubuzima bwabo, bikanakomeza kubafasha mu gukora imirimo yabo ya buri munsi, hadashingiwe ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bwiza bwo kwita no kurengera ubuzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi hatitawe ku gushingira ku bandi ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Ubuvuzi bw'abageze mu za bukuru bifasha kwita ku buzima bwabo bikanafasha gukomeza gukora imirimo yabo mu buzima busanzwe ndetse bikita no ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Gahunda nziza yo kwita no kurengera ubuzima bw'abageze mu zabukuru, ifasha mu kwita ku buzima bwabo bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa byabo bya buri munsi, hatitaweho ku gushingira ku bandi ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bwiza bwo kwita no kurengera ku buzima bw'abageze mu zabukuru mu gupimwa indwara zitandukanye, harimo umuvuduko w'amaraso bibafasha gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi hatitaweho gushingira ku bandi no kugenzura amarangamutima yabo.

Umunsi mwiza aho abaturage bahurira hamwe, abageze mu zabukuru bakagira uruhare mu biganiro bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagakomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi ndetse bikanatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Gusobanurirwa kubyo wabonye cyangwa se kubyo ureba, ni uburyo bwiza butuma umenya neza icyo ureba ndetse ukanagikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bigateza imbere imikorere ya buri munsi mu kazi runaka y'ibyo warebye ndetse no gushyira mu bikorwa.

Ubuvuzi bw'abageze mu zabukuru ni ingirakamaro, bufasha kwita ku buzima bwabo ndetse no gukomeza kugira ubuzima bwiza, bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa byabo bya buri munsi hatabayeho gushingira ku bandi ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima byabo.

Gahunda nziza yo kwita ku buzima bw'abageze mu zabukuru, ifasha mu kubungabunga ubuzima bwabo bikanafasha mu gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi, hatitaweho ku gushingira ku bandi ndetse no gukontorora ubuzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Ubuvuzi bw'abageze mu zabukuru bufasha kwita ku buzima bwabo no gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi, hatitawe ku gushingira ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Gahunda nziza yo kwita ku buzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha gukomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi, hatitaweho ku kugushingira ku bandi ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bwiza bwo kwita ku bageze mu zabukuru bubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, no gukomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, badashingiye ku bandi ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Ubuvuzi bw'abageze mu zabukuru, bifasha kwita ku buzima bwabo bagakomeza imirimo yabo ya buri munsi badashingiye ku bandi, ndetse no kwita ku buzima bw'umutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bwiza bwo kwita ku buzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha gukomeza gusigasira ubuzima bwabo, no gukomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, hatitaweho gushingira ku bandi cyane.

Uburyo bwiza aho abakuze bahabwa ubufasha n'abakiri bato, mu bijyanye n'ubuzima bwabo ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi bakagera ku byo nabo bifuza gukora bitabagoye.

Uburyo bwiza bwo kwita ku buzima bw'abageze mu zabukuru, bifasha gukomeza gukora imirimo yabo mu buzima busanzwe, hatitaweho gushingira ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Uburyo bwiza bwo kwita ku buzima bw'abageze mu zabukuru bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, bagakomeza gukora imirimo yabo ya buri munsi hatitaweho gushingira ku bandi cyane ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Gahunda nziza yashyizweho mu buryo bwo kuganira ku bitera Kanseri n'ingamba zifatwa mu buryo bwo kuyirinda, ni ingirakamaro cyane, bifasha abaturage kumenya neza uburyo bayirinda.

Uburyo bwiza abaganga batangamo serivisi nziza yo gupima malariya mu buryo bwiza kandi bunogeye abaturage, ni byiza cyane, ubu buryo abaganga bakoresha buratunyura nkatwe abaturage, kandi biduha ibisubizo byiza bikwiye.

Gahunda nziza aho hashyizweho umunsi Mpuzamahanga wo kuganira ku ngamba ndetse n'uburyo bwo kurwanya indwara ya Diyabete, bifasha abaturage mu buryo bwo kuyirinda.

Gahunda nziza yo gufasha mu buzima bw'abaturage hitaweho ku bijyanye no gutegura indyo yuzuye, mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye, izandurira mu myanda ndetse n'iziterwa no kuba utabonye ifunguro ririmo indyo yuzuye.

Uburyo bwiza aho hashyizweho umuryango ushinzwe kwita ku buzima bw'abaturage muri rusange, ni ingirakamaro cyane bifasha mu kurwanya indwara zitandukanye, izandura n'izitandura ndetse n'ingamba yo kwirinda indwara zitandukanye.

Umunsi mpuzamahanga ku isi, wo kwigisha abaturage uburyo bwo kwirinda iyi ndwara n'uburyo yarwanywa, mu baturage mu buryo biciye mu buryo bwo guhuriza hamwe abaturage, bakiga ku buryo bwo kuyirinda n'ibyakorwa kugira ngo iyi ndwara igabanye ubukana ikumirwe ireke no gukwirakwira mu baturage.

Uburyo bwiza bwo gutanga ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima, hakigwa ingamba zo kurwanya indwara zitandukanye, zaba izandura n'izitandura, ku ntego kugira ngo twite ku buzima bw'umuntu ndetse dusigasire ubuzima bw'abatuye isi muri rusange.

Gahunda nziza yashyizweho yo kwirinda ubushita, ni nziza cyane ifasha mu kuburwanya ndetse hagafatwa n'ingamba z'uburyo bwo kuyirinda muri rusange no kuyikumira mu baturage.

Gahunda nziza yo kwigisha ku bijyanye n'ubuzima, aho abantu bagana minisiteri y'ubuzima ikabafasha mu kwihugura ku bijyanye n'ubuzima ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Gahunda nziza yashyizweho y'ibijyanye n'ubuzima ku rwego mpuzamahanga mu kurengera ubuzima bw'umwana ndetse no kubusigasira, birinda abana indwara zitandukanye, harimo ibiro bike, gukura nabi kandi bakagira imitekerereze myiza.

Icyumweru mpuzamahanga ku Isi cyo kurwanya mikorobe, bifite akamaro kanini mu kurwanya indwara zitandukanye, izandura ndetse n'izitandura, no kugabanya impfu zitari ngombwa mu baturage.

Gahunda nziza yo gukangurira abayobozi kwigisha abaturage uburyo ubuzima bwasigasirwa, hagafatwa n'inama ndetse n'ingamba zigomba gukurikizwa, mu buryo bwo kurengera ndetse no gusigasira ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Ubushita bw'inkende ni indwara yandura ariko ni byiza kuyirinda ukoresheje isabune amazi meza ugakaraba ndetse tukirinda no gusuhuzanya, mu buryo bwo guhezanya intoki cyangwa se uburyo bwo gusomana kugira twirinde.

Gahunda nziza yashyizweho mu buryo bwo kurwanya ndetse no kwirinda iyi virusi, ni uburyo bwiza kandi bufasha abaturage mu kuyirinda ndetse no kuyirwanya muri rusange.

Ubu ni uburyo bwiza bwashyizweho mu buryo bwo kurwanya no kwirinda indwara ya kanseri, bufasha abaturage kongera kumenya neza uburyo bwo kuyirinda ndetse no kuyikumira, binyuze mu gukora siporo zitandukanye kugira ngo bagabanye ibiro, bagire ibiro biri hagati na hagati bigendanye n'imyaka yabo.

Imiyoborere myiza iba hagati y'igihugu, komite, umuntu ku giti cye, hagati y'abantu ndetse n'Igihugu muri rusange, ibi bifasha mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'abaturage muri rusange bagateza igihugu imbere.

Inyubako nziza yifashishwa mu kwakira abarwayi bagahabwa imiti, ndetse bakagirwa n'inama z'uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye.

Ibitaro byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi no kubika imiti mu mutekano ndetse no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Ibitaro byifashishwa mu kugeza serivise ku barwayi, bagahabwa imiti ndetse bakagirwa n'inama zitandukanye z'uburyo bakwirinda indwara zandura n'izitandura, binafasha mu kwakira abarwaye neza.

Inyubako nziza iteye imbere y'ubuvuzi, ifasha abarwayi baje babagana kubona aho babonera serivisi y'ubuvuzi, bakabona imiti y'indwara barwaye ndetse bakagirwa n'inama.

Inyubako nziza ijyanye n'iby'ubuvuzi ifasha abaturage kubona aho bakira serivisi z'ibijyanye n'ubuzima, bagahabwa imiti y'indwara barwaye ndetse bakanagirwa inama y'uburyo bakirinda izo ndwara.

Inyubako y'ubuvuzi yifashishwa mu gutanga serivisi zitandukanye ku barwayi, bagahabwa imiti ndetse bakagirwa n'inama zitandukanye kandi, bifasha no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Inyubako nziza y'amashuri, ifasha mu bijyanye n'uburezi ikanafasha abanyeshuri mu kubona uburezi bwiza ndetse n'aho kwigira heza, bigateza imbere iterambere ry'abanyeshuri ndetse n'iry'abaturage n'igihugu muri rusange.

Uburyo bwiza bwo kubikamo imiti ni byiza cyane kuko bifasha kumenya neza niba imiti ifite umutekano aho iri ikindi kandi uje akugana ayishaka umenya neza aho umuti ashaka uherereye, ubu ni uburyo bwiza bufasha ndetse bukanihutisha igihe.

Ibitaro byifashishwa mu kwita no kurengera ubuzima bw'abageze mu zabukuru, bibafasha mu gukomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, hatitaweho ku gushingira ku bandi no kwita ku buzima bwo mu mutwe n'amarangamutima yabo.

Abaganga muri laboratori bifashisha ubu buryo, mu buryo bwo kumenya neza ibisubizo by'indwara abarwayi barwaye, kandi bibafasha mu guteza imbere umwuga wabo, kandi bagakora ibintu mu buryo bwiza, kandi bworoshye kandi bunogeye abaturage.

Inyubako nziza y'ubuvuzi ifasha abaturage kubona serivisi neza, kubika ibikoresho nk'imiti mu mutekano, kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Gahunda nziza aho abarwayi bifashisha irembo mu kubona zimwe muri serivise zigendanye n'ubuvuzi, bibagirira akamaro ndetse bikanagabanya ingendo zitandukanye bakora bajya ku bitaro.

Ibitaro bifasha abarwayi kubona serivisi zitandukanye, bibika ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano kandi bigira n'akamaro mu kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Inzu y'ababyeyi cyangwa maternite, ni uburyo bwiza bwashyizweho bufasha ababyeyi kubona aho kubyarira, kandi bakanabyara mu buryo bitaweho neza, n'abana babo bakavuka bafite ubuzima bwiza, kandi bagakurikiranwa kugeza igihe batahiye, ndetse n'ubuzima bw'abana bugakomeza gukurikiranwa muri rusange.

Ibitaro bya Rwamagana bifasha mu gutanga serivisi zitandukanye ku barwayi, no kubika ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano, no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Uburyo bwiza bwo guhuriza hamwe abarwayi bagahabwa inama zitandukanye ku bijyanye n'indwara barwaye, hifashishijwe inyubako z'ubuvuzi ndetse bakanagirwa inama z'uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye.

Inyubako z'ubuvuzi zifasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hafi y'abaturage, kubika ibikoresho n'imiti mu mutekano, kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bunoze, nka materineti ifasha ababyeyi kubona aho kubyarira mu buryo bwiza bwizewe.

Ibitaro bikuru by'Umwami Faisal ni ingirakamaro cyane mu gutanga serivise z'ubuvuzi ku barwayi, bagahabwa ibisubizo by'indwara zabo n'imiti igendanye na zo, ndetse binafasha mu kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Ibitaro byifashishwa mu gutanga serivisi nziza ku barwayi, kubika ibikoresho n'imiti mu mutekano, kugira inama abarwayi batandukanye no kubakira neza mu buryo buteguye neza.

Inyubako z'ubuvuzi zifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, kubika ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga n'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Ibitaro by'ubuvuzi byifashishwa mu gutanga serivise ku baturage, kubika ibikoresho n'imiti mu mutekano, no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Iki kigo nderabuzima gifasha mu kugeza serivisi zitandukanye ku barwayi, bagahabwa imiti ndetse bakagirwa n'inama zitandukanye zo kwirinda ndwara nyinshi zitandukanye ndetse ifasha no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Ibitaro ni byiza bifasha mu guha serivisi abarwayi no kubika imiti mu mutekano no kubakira mu buryo buteguye neza kandi butabangamye.

inyubako z'ubuvuzi zifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, kubika ibikoresho byifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza

Inyubako y'ubuvuzi ifasha abaturage kubona serivisi z'ibijyanye n'ubuzima, bakakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bagahabwa imiti ikwiye indwara zabo.

Inyubako y'ubuvuzi ni ingirakamaro, yifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, kubika ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano ndetse no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Inyubako nziza y'ibijyanye n'ubuyobozi ifasha abaturage ndetse n'abayobozi muri rusange mu buryo bw'imiyoborere, bikanateza imbere imiyoborere myiza y'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Inyubako z'ubuvuzi zifasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hafi y'abaturage, kubika ibikoresho n'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi buboneye.

Ikigo nderabuzima cyifashishwa mu kugeza serivise nziza ku barwayi ndetse no kubika ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano ndetse no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Inyubako z'ubuvuzi zifasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hafi y'abaturage, bagahabwa imiti ndetse n'inama, ikindi kandi inyubako zinakoreshwa mu kubika imiti, mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Ikoranabuhanga harimo nko gukoresha imashini mu kazi gatandukanye, bifasha mu buryo bwo kugabanya umwanya wagombaga gutakazwa hifashishijwe amaboko cyangwa se ubundi buryo, ikoranabuhanga ryihutisha akazi, ikindi kandi, riteza imbere imikorere mu kazi runaka.

Abaturage bahurizwa hamwe bakabwirwa icyabateguriwe, harimo nko kuganira ku bijyanye n'uburyo bwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, bagahabwa ibiganiro bayobowe n'uwateguye, ndetse bakagira n'igihe cyo gutanga ibitekerezo byabo, ndetse bakabaza n'ibibazo byabo bagasubizwa, ubu ni uburyo bwiza butuma habaho imiyoborere myiza, itabangamiye umuturage ndetse n'umuyobozi muri rusange.

Ibitaro ni ingirakamaro byifashishwa mu gutanga serivise ku barwayi bafite indwara zitandukanye, kubika ibikoresho byifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Ibitaro ni ingirakamaro, bifasha abarwayi kubona aho kwivuriza, bagahabwa imiti kandi bakakirwa neza mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Inyubako z'ubuvuzi zifasha mu gutanga serivisi nziza ku barwayi, mu buryo bworoshye ndetse no kubika ibikoresho nk'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Inyubako y'ibitaro ifasha abaturage kubona serivisi zijyanye n'ubuvuzi, bagahabwa imiti ndetse bagahabwa n'inama z'uburyo bakirinda indwara barwaye, ndetse bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako nziza y'ubuvuzi ifasha abaturage kubona serivisi nziza, kubika ibikoresho n'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Inyubako y'ubuvuzi ifasha abaturage kubona aho kwivuriza, bagahabwa imiti ndetse bagahabwa n'inama ku bijyanye n'ubuzima bwabo, bigafasha iterambere ry'ubuzima bwabo muri rusange.

Inyubako z'ubuvuzi zifasha abaturage kubona serivisi z'ubuzima, aho abadamu babona aho kubyarira nko muri materiniti ndetse abana babo bakitabwaho n'ubuzima bw'ababyeyi muri rusange.

Ikigo nderabuzima cyifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, bagahabwa imiti, bakagirwa n'inama zo kwirinda indwara zitandukanye kandi gifasha no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Inyubako y'ubuvuzi ifasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hafi y'abaturage, kubika ibikoresho n'imiti, umutekano, kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bunoze.

Inyubako z'ubuvuzi zifasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hafi y'abaturage, kubika ibikoresho n'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Inyubako nziza y'ubuvuzi ifasha mu bijyanye no kuvura amaso, ituma abaturage babona serivisi nziza ku bijyanye n'indwara y'amaso, bagahabwa imiti ndetse n'inama ku bijyanye n'iyo ndwara.

Serivisi nziza zihabwa abarwayi, ni ingirakamaro cyane. Bifasha abarwayi guhabwa imiti myiza igendanye n'indwara barwaye kandi bakakirwa mu buryo bwiza.

Inyubako y'ubuvuzi ifasha mu kugeza serivisi ku barwayi, bagahabwa imiti bakagirwa n'inama zo kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kubika imiti n'ibikoresho byose byifashishwa mu bitaro.

Ibitaro bya Nyarugenge ni ingirakamaro, bifasha mu kwakira abarwayi barwaye indwara zitandukanye, kubika imiti n'ibindi bikoresho byifashishwa mu bitaro no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Inyubako nziza y'ibitaro, ifasha abaturage kubona aho kwivuriza, bagahabwa serivisi nziza z'ibijyanye n'indwara barwaye, bagahabwa n'imiti bikabafasha kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako z'ubuvuzi zifashishwa mu kugeza serivisi ku baturage, bakavurwa neza bagahabwa imiti ndetse bakagirwa n'inama mu uburyo bwo kwirinda no gusigasira ubuzima bwabo muri rusange.

Inyubako y'ubuvuzi yifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, kubika ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga n'imiti mu buryo bwizewe no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Uburyo bwiza abaganga bakiramo abarwayi, bigafasha abarwayi kumenya indwara barwaye, bagahabwa imiti izikwiye ndetse bakagirwa n'inama z'uburyo bwo kuzirinda.

Inyubako z'ubuvuzi zifasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hafi y'abaturage, kubika ibikoresho n'imiti mu mutekano, kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Ibitaro bifasha abaturage mu kubona serivisi zijyanye n'ubuvuzi, bakavurwa indwara barwaye bagahabwa n'imiti ibakwiye, bigatuma bagira ubuzima bwiza buzira umuze, kandi bagakira indwara bari barwaye.

Ibitaro byifashishwa mu gutanga serivise ku barwayi batandukanye, kubika ibikoresho byifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Inyubako nziza y'ibitaro ifasha muri serivise yo gupima no gutanga ibisubizo ku ndwara zitandukanye z'abarwayi ndetse no kubakira neza mu buryo bwizewe kandi buteguye neza.

Ibitaro byifashishwa mu kugeza serivisi nziza ku barwayi ndetse bakamenya indwara barwaye, bagahabwa n'imiti, bakagirwa n'inama z'uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye.

Inyubako z'ubuvuzi zifashishwa mu gutanga serivise ku barwayi, kubika ibikoresho bifashishwa mu bitaro n'imiti mu mutekano ndetse no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza.

Ibigo nderabuzima bifasha abaturage mu kubaho neza biciye mu kujya kwivuza bagahabwa serivisi neza, bagahabwa imiti y'indwara barwaye kandi bakagirwa n'inama z'uburyo bwo kwirinda indwara n'icyo bakora kugira ngo barwanye indwara zitandukanye.

Imiti y'imikino igenewe abakinnyi n'abandi bose bakora imyitozo ngororamubiri, inafasha mu kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Uburyo bwiza umuntu akoresha kugira ngo amenye neza aho igihe kigeze cyangwase igihe isaaha iri kubara, hari ukuntu umuntu aba afite ikintu ari bukore ku isaaha runaka bikaba ngombwa ko yifashisha ubu buryo mu kumenya neza niba izo saaha zigeze ngo akurikirane ibyo agomba gukurikirana, bigatuma abantu bamenya neza icyo bagomba gukora ndetse bayobowe n'igihe.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, ituma umubiri ukora neza, amaraso agatembera neza, ni n'umuti w'indwara zitandukanye, harimo umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso, kandi irengera ubuzima bw'umuntu.

Uburyo bwiza aho urubyiruko abakuze ndetse ingeri zose zihurira hamwe zigakora siporo, ni ingirakamaro ku baturage kuko bituma umubiri ukora neza, abantu bakagabanya umunaniro bari bafite ndetse birinda n'indwara zitandukanye harimo indwara y'imitsi ndetse n'izindi.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri ni ngombwa kunanura n'amavi, mu buryo bwiza bwo kugorora amagufa ndetse n'ingingo zo mu mavi, bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Siporo ni nziza ifasha abantu mu buryo bwo gukora neza k'umubiri, ni n'umuti w'indwara zitandukanye, n'umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso, indwara y'imitsi ndetse n'izindi.

Siporo ni uburyo bwiza bwifashishwa mu kugorora umubiri, mu kugorora ingingo n'amagufa, ni umuti w'indwara zitandukanye harimo indwara y'umunaniro, Diyabete, Umuvuduko w'amaraso kandi igafasha mu buryo bwo gukora neza k'umubiri.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu ifasha mu migendekere myiza n'imikorere y'umubiri, amaraso agakora neza kandi birinda indwara zitandukanye harimo umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Imiti y'imikino ni ingirakamaro, ifasha abakinnyi n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba kandi neza ndetse no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, ituma umubiri ukora neza, imitsi igafunguka, amaraso agatembera neza kandi ni umuti w'indwara zitandukanye, harimo n'umunaniro ukabije.

Umuntu wakoze siporo ashobora guhura n'imvune zitandukanye, iyi miti itandukanye ifasha mu buryo bwo kuvura umuntu wagize imvune muri siporo, ndetse bigatuma abantu bakomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imiti y'imikino ni ingirakamaro ku bakinnyi n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri, ibafasha mu kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba kandi neza, ndetse no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Siporo ni umuti mwiza uvura indwara zitandukanye harimo ama diyabete, imivuduko y'amaraso, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, siterese, umunaniro ukabije, ibyo byose ni indwara zivurwa na siporo, siporo n'umuti w'indwara zose.

Igikapu cyifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye, mu buryo bwizewe neza kandi bubungabunzwe ndetse bigira n'akamaro mu kubungabunga ibikoresho bitandukanye.

Imiti y'imikino ni ingirakamaro yita ku buzima bw'abakinnyi n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri, mu kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba kandi neza ndetse no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Amazi ni meza mu bijyanye na siporo, afasha mu kugarura ubuzima ku murongo, kuvura imvune ziterwa na siporo uba wakoze no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Kunywa amazi meza ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, bifasha umubiri gukora neza no kongera amazi mu mubiri no kwirinda indwara zitandukanye zandurira mu mwanda ndetse no kugabanya impfu zitari ngombwa.

Uburyo bwiza bwo gukoramo siporo bufasha umubiri gukora neza, amagufa, kugororoka n'umuti mwiza w'indwara zitandukanye umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse ikarinda n'umubiri muri rusange.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, ituma umubiri ukora neza, amaraso agatembera neza, imitsi ikagororoka n'amagufa akarushaho gukora neza ni n'umuti w'indwara zitandukanye nk'umunaniro ukabije.

Imiti myiza yifashishwa ku bantu bakoze siporo igihe bumva bafitemo uburyo bananiwe, ifasha mu gutuma bongera gusubirana, bakaba nomo ndetse kandi ni ingirakamaro no ku buzima bw'abantu muri rusange.

Serivise nziza zitangwa mu bitaro bitandukanye, zifasha abaturage mu kubona imiti y'indwara barwaye, bikanasigasira ubuzima bwabo muri rusange bakabaho neza bafite ubuzima buzira umuze.

Amazi meza ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, amufasha mu kurinda indwara zitandukanye, harimo umutwe ukabije, kubabara ingingo, ikindi kandi anafasha mu gutembera neza kw'amaraso y'umubiri.

Imiti y'imikiro ni ingirakamaro ku bakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri, ifasha mu kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba kandi neza no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Uburyo bwiza, aho urubyiruko rwimakaje umuco mwiza wa siporo, mu mikino itandukanye harimo uwa basket, urubyiruko rugakora imyitozo mu bijyanye gukina imikino itandukanye, harimo nka basket, biteza imbere bikanatuma urubyiruko rugira ubuzima bwiza.

Imiti y'imikino ifasha abakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba, guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Imiti y'imikino ifasha abantu bakina ndetse n'abakunda imyitozo ngororamubiri mu kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Siporo ni umuti mwiza w'indwara zitandukanye, ituma umubiri ukora neza, amaraso agatembera neza kandi ikavura n'indwara nyinshi, harimo kuba ufite umunaniro ukabije, kuba urwaye imitsi ndetse n'izindi.

Uburyo bwiza bukwiriye abakinyi ndetse n'abandi bose bakora imyitozo ngororamubiri, nko kubategurira ifunguro ririho indyo yuzuye ndetse n'ubundi buryo kugira ngo hasigasirwe ubuzima bwabo hirindwe n'indwara zitandukanye ndetse no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Siporo ni uburyo bwiza bwo gutuma umubiri ukora neza mu kugorora umubiri, amagufa ndetse no kurwanya indwara zitandukanye, indwara y'imitsi, indwara y'umunaniro, indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Uburyo bwiza bwo gutanga amagare ku bantu bafite ubumuga, bibafasha mu buryo bw'imyigire bakajya kwiga ndetse bagakora n'utuzi dutandukanye, nabo bakumva bafite uburenganzira nk'abandi baturage muri rusange.

Imiti y'imikino yifashishwa mu kwita ku buzima bw'abakinnyi n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, mu kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba kandi neza no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Siporo ni umuti mwiza w'indwara zitandukanye harimo nko kuvura umunaniro ukabije, diyabete ndetse n'imivuduko y'amaraso, ni umuti w'indwara zitandukanye kandi siporo nziza ku buzima ituma abantu bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, ifasha umubiri gukora neza, amaraso agatembera neza kandi ni umuti w'indwara zitandukanye nk'umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Igikapu gifasha mu buryo bwiza bwo kubika ibikoresho bitandukanye, ndetse no kubitwara ubivana ahantu hamwe ubijyana ahandi mu buryo bworoshye, kandi ibikoresho biba bibitse ahantu bifite umutekano mu buryo bwiza kandi buboneye.

Amazi ni meza ku buzima bw'umuntu, atuma umubiri ukora neza, amaraso agatembera neza bikongera n'amazi mu mubiri, ubundi ni umuti w'indwara zitandukanye, harimo umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso n'izindi.

Kunywa amazi meza ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, birinda indwara zitandukanye, harimo nko kubura amazi mu mubiri kandi bituma umubiri ukora neza ndetse umuntu akagira ubuzima buzira muri rusange.

Amazi ni meza ku buzima bw'umuntu atuma umubiri ukora neza, agabanya umunaniro kandi agafasha no kurwanya ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, ituma umubiri ukora neza, amaraso agatembera neza, kandi ni umuti w'indwara zitandukanye harimo umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso n'izindi zitandukanye.

Imiti ikoreshwa n'abakinnyi, ifite akamaro kanini mu kubungabunga no gusigasira ubuzima bw'abakinnyi ndetse n'abantu bose bakora imyitozo ngororamubiri, inafasha kandi kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba kandi neza, guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Imiti y'imikino ifasha abakinnyi n'abandi bose bakora imyitozo ngororamubiri, kuvura imvune ziterwa n'imikino, guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe ndetse no gukomeza amagufa y'umubiri wabo.

Siporo ni uburyo bwiza bwifashishwa mu kugorora ingingo no kwirinda indwara zitandukanye, harimo Diyabete, umuvuduko w'amaraso, umunaniro ukabije ndetse bikanafasha kugira ubuzima bwiza biciye mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Siporo ni ingirakamaro ifasha abantu mu gukora neza k'umubiri n'amaraso agatembera neza kandi ni umuti w'indwara zitandukanye, harimo, umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso, ibibazo bigendanye n'imitsi ndetse n'amagufa.

Siporo ni uburyo bwiza bwo kugorora umubiri ndetse no kwirinda indwara zitandukanye, harimo umunaniro ukabije, Diyabete, Umuvuduko w'amaraso, ikindi kandi ituma habaho ubudahangarwa bw'umubiri bw'abaturage muri rusange.

Imiti y'imikino, igenewe abakinnyi n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri, ibafasha kuvura imvune ziterwa n'imikino, kugarura abakinnyi mu kibuga vuba kandi neza no guteza imbere imikaya n'imbaraga mu buryo bwizewe.

Inyubako y'ubuvuzi, yifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, kubika imiti n' ibindi bikoresho bitandukanye mu buryo bw'umutekano, ndetse no kwakira abarwayi mu buryo buteguye neza kandi bwizewe.

Siporo ni uburyo bwiza ni umuti ugabanya ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri, ugakora neza kandi hakiririndwa indwara ziterwa no kubura amazi mu mubiri ndetse umuntu akagira ubuzima bwiza.

Ubutabazi bw'ibanze buhabwa umuntu ugize ikibazo cya siporo, ni byiza cyane bifasha umubiri w'umuntu gukora neza ndetse bikanamurinda izindi ngaruka zishobora kuba zava muri izo siporo.

Ni umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo imvune n'umutwe, inkorora, mu nda, inagabanya mikorobe ndetse yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, harimo umuvuduko w'amaraso, umunaniro ukabije, iz'uruhu ndetse n'izindi kandi bikanatanga ubudahangarwa ku baturage.

Iki giti cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda inkorora, Malariya, inzoka, imvune n'umutwe kinagabanya mikorobe ndetse binongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Iyi miti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inkorora, imvune n'umutwe, iz'uruhu, mu nda, malariya inagabanya mikorobe ndetse yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Iki giti cyifashishwa mu kubona imiti gakondo, gifite akamaro kanini ku buzima bwacu, ni ho dukura imiti ituvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, iz'imitsi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Iki giti cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo umutwe n'imvune, inzoka, inkorora, malariya, iz'uruhu, mu nda no kurwanya mikorobe ndetse inongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Urubuto rwiza rwifashishwa mu buryo bujyanye no kurwanya indwara zitandukanye, uru rubuto ni rwiza mu buzima bw'abaturage, ruvura indwara zitandukanye harimo amadiyabete, umuvuduko w'amaraso, ikindi kandi ni rwiza ku baturage ndetse n'abana muri rusange.

Uyu muti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye; harimo iz'ubuhumekero, umutwe n'imvune, inkorora, malariya ,inzoka no kurwanya mikorobe, ndetse unongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibimera ni ingirakamaro mu kubona imiti gakondo ivura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije umuvuduko w'amaraso kandi bikanatanga ubudahangarwa muri rusange.

Ibi biti byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero, mu nda inzoka, iz'uruhu, inkorora ndetse inafasha no mu kwica mikorobe kandi yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso. Kandi binatanga ubudahangarwa ku buzima bw'umuntu.

Imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo: iz'uruhu, inkorora, umutwe n'imvune, malariya ndetse no kurwanya mikorobe, inongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Iki giti cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo imvune n'umutwe, inkorora inzoka, Malariya, mu nda n'indwara z'uruhu ndetse cyongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Uru rurabo rwifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inkorora, mu nda, inzoka, malariya, umutwe n'imvune, ibitembwe ndetse byongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo ni ingirakamaro ivura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, izifata mu nda, umutwe, inkorora, Malariya ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Iyi ni imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo Inkorora, inzoka zitandukanye nk'Amibe, mu nda, imvune n'umutwe, inafasha mu kwica mikorobe zitandukanye.

Gakondo n'ubu uburyo bwiza bufasha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, umunaniro ukabije umuvuduko w'amaraso, ikindi bigatanga ubudahangarwa ku buzima bw'abantu.

Ibimera byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, izifata mu nda, umutwe, Inkorora, Malariya ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo ivura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, imitsi ndetse n'umuvuduko w'amaraso kandi bikanatanga ubudahangarwa ku buzima bw'abantu muri rusange.

Uburyo bwiza bwo gusekura ibimera bitandukanye, bikifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo: izo mu nda, inkorora, iz'uruhu, malariya ndetse no kurwanya mikorobe.

Ibimera byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo: iz'uruhu, Malariya, inkorora, imvune n'umutwe, kugabanya mikorobe ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibimera ndetse n'ibidukikije muri rusange ni ingirakamaro, byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo: inkorora, umutwe, ububabare bw'umubiri, izifata mu nda, malariya ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Iyi ni imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo inkorora, imvune n'umutwe, mu nda ,malaria, inica mikorobe kandi yongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibi biti byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu umutwe, inkorora, inzoka, Malariya ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo imvune n'umutwe, inkorora, inzoka, malariya, mu nda, kandi yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Umuravumba ni umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero, inkorora, umutwe n'imvune, kurwanya mikorobe ndetse wongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti myiza ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izifata mu nda, iz'uruhu, inzoka, inkorora, amafunane, ku bantu barangiza vuba ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Iki giti gifasha mu kubona imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inzoka, inkorora, iz'uruhu, umutwe ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara y'uruhu, umuvuduko w'amaraso, umunaniro ukabije kandi bitanga ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange.

Ibihingwa bitandukanye bifasha abantu mu kubona ibyo kurya, indyo yuzuye, bigafasha abantu kugira ubuzima bwiza biciye mu gufata ibi bihingwa bitandukanye byose, bigatuma bakora indyo yuzuye, ubuzima bw'abaturage, ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange, ubuzima bw'abatuye isi muri rusange bukagenda neza.

Imiti gakondo ni ingirakamaro, ivura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse inatanga ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange.

Igikakarubamba kifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umutwe n'imvune, kikanafasha mu kwica mikorobe zitandukanye no kurwanya indwara zitandukanye.

Igihingwa cyiza cyane kiduha ibyo kurya, ikindi kikadufasha mu bijyanye no guhumeka. Kituzanira Oxygen, noneho abaturage bakabaho neza babona umwuka, kandi bagahumeka umwuka mwiza usukuye.

Ibimera byifashishwa nk'imiti gakondo bikagira akamaro mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero, umutwe n'imvune, izo mu nda, inkorora ndetse no kugabanya mikorobe no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Iki giti cyifashishwa mu kubona imiti gakondo ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inkorora, umutwe, iz'uruhu, inzoka, malariya kandi bifasha no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibimera ni bimwe mu bidufasha kubona imiti gakondo yifashishwa havurwa indwara zitandukanye. Nk’iz’uruhu, izifata mu nda, umutwe, inzoka, inkorora n'izindi. Ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso, imitsi kandi inatanga ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange.

Uburyo gakondo bwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hifashishijwe ibimera gakondo bivura indwara zitandukanye harimo indwara z'uruhu, umunaniro ukabije kandi igatanga ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange.

Ibimera byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, izifata mu nda, umutwe, inzoka, inkorora, malariya n'izindi ndwara za gakondo no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa ibimera bitandukanye bikanafasha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara y'uruhu, umunaniro ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, izifata mu nda, umutwe, inkorora, inzoka ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso, kandi bitanga n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibinini biva mu bimera gakondo kandi bidufasha mu kuvura indwara zitandukanye, amoko menshi harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, amavunane, imitsi n'ingingo muri rusange.

Imiti gakondo ni myiza cyane ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo umunaniro, indwara z'uruhu, indwara z'amavunane, umuvuduko w'amaraso, ikindi kandi inatanga ubudahangarwa bw'umubiri.

imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero, umutwe n'imvune, mu nda, inzoka, inkorora Malariya no kurwanya mikorobe ndetse ikongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Iyi ni imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo imvune n'umutwe, inkorora, inzoka, iz'uruhu, mu nda kandi yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Uyu muti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye duhereye ku z'uruhu, inkorora, imvune n'umutwe, inzoka kandi wongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Iyi ni imiti gakondo ivura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, mu nda, inzoka zitandukanye nka amibe, imvune n'umutwe kandi inifashishwa mu kwica mikorobe zitandukanye.

Shampoo igira umumaro munini ku buzima bw'abaturage, ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, imvune n'umutwe ndetse inafasha mu kwica mikorobe zitandukanye.

Ibiti bidufasha kubona imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, inkorora, inzoka zifata mu nda, umutwe kandi bikanongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Avoka ni urubuto rwifashishwa nk'imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umutwe, inkorora, imvune ndetse no kugabanya mikorobe, no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibimera bitandukanye byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izifata mu nda, umutwe, Malariya, Inkorora, iz'uruhu ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibi biti byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda, inkorora, imvune n'umutwe, malaririya ndetse n'iz'uruhu, no kurwanya mikorobe, no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, umutwe, inzoka, inkorora, malariya ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, izo mu nda, umutwe, inkorora, Malariya ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo ni ingirakamaro mu kuvura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, inkorora, imvune n'umutwe, malariya, inzoka, kurwanya mikorobe ndetse yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo iz'ubuhumekero, umutwe n'imvune, izo mu nda, iz'uruhu ndetse no kurwanya mikorobe.

Iki giti cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo: iz'uruhu, umutwe n'imvune, inkorora, malariya, kinagagabanya mikorobe, cyongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Iyi ni imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo mu nda, umutwe n'imvune, inzoka, malariya, indwara y'uruhu, kandi yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu, ivamo imiti ituvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso kandi igatanga ubudahangarwa bw'umubiri.

Uru rubuto rwifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo imvune n'umutwe, inkorora, malariya, inzoka, mu nda ndetse runongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umutwe, inkorora, marariya ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umutwe, inzoka, Malariya, inkorora ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibimera gakondo bifasha mu buvuzi gakondo, bivura indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, inkorora, umunaniro ukabije, kandi bitanga ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange.

Umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, inkorora, mu nda, inzoka, imvune n'umutwe, unarwanya mikorobe kandi wongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Imbuto ni nziza cyane zifasha umubiri gukora neza, kandi ziri no mu bigomba kuba biri ku ifunguro ry'umuntu kugira ngo turwanye indwara nyinshi ziterwa no kuba umuntu yabuze indyo yuzuye, harimo no kuba atafashe imbuto neza.

Uyu ni umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, umutwe n'imvune, inkorora, malariya, unagabanya mikorobe kandi wongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibimera bitandukanye byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, inkorora, Malariya, imvune n'umutwe kandi binongera ubudahangarwa bw'umubiri.